Abaganga bakangurira ababagana b'abarwayi kuzajya bitabira kwisuzumisha hakiri kare mu gihe babonye bagize ibimenyetso bitandukanye n'uko bari basanzwe babayeho mu mibereho yabo.

Aha ni mu baturage aho umuyobozi wabo ari kubaha inama cyangwa ubukangurambaga bwihutirwa mu gihe amatungo yabo, nk' ihene yagize ibibazo bitandukanye.

Abaganga b'inzobere baba barabitojwe kugira ngo amaraso umurwayi abuze, ahite azanwa ayahabwe bikiri mu maguru mashya, hato atavaho abura ubuzima bwe.

Korora no korozanya ihene ni umushinga washyizweho umukono na leta kugira ngo urandure ubukire mu baturage, ikindi kandi ukureho ibibazo bijyanye n'imirire mibi.

Aya ni amagare atwara abarwayi byihutirwa kwa muganga, mu gihe barembye cyangwa se hari abandi barwayi bafite ubumuga babana n'ubumuga, badashobora kuba bajyenda.

Imodoka zitwara abarwayi. Bakunze kwita mu rurimi rw'amahanga Ambulence, mu kinyarwanda babyita imbangukiragutabara zisigaye zifasha abantu mu gukemura ibibazo bijyanye no kujya kwa muganga.

Ni byiza ko iyo umuntu uwo ari we wese agize ikibazo cy'impanuka ndetse n'ikimenyetso cy'uburwayi runaka yihutira kujya kwa muganga kugira ngo abaganga babugenewe bamukurikirane amenye ikibazo afite bityo akiririre ku gihe.

Amavuriro yose aba agomba kuba afite imbangukiragutabara zihuta kandi nshyashya kugira ngo hirindwe impanuka ziterwa no kuba izo modoka zigenda gake kandi zarapfuye, bityo abantu birinde ipfu zitateganijwe.

Intebe zo kwa muganga kurwakiriro, zifasha abaza bagana ivuriro b'abarwayi kuba barimo baziruhukira mu gihe bagitegereje ubufasha bw'abaganga indwara zabo zibarembeje.

Ni byiza yuko abantu bazima bazira umuze, bazajya bafasha, abandi barwayi bo muri iyi si, gutanga amaraso kugira ngo, aba barwayi bagire ubuzima bwiza, kuko baba barabuze amaraso yatuma babaho.

Imbangukiragutabara zirakenewe mu gihugu icyo ari cyo cyose, kubera yuko zihutisha umurwayi wari urembye zimuganisha kwa muganga, bityo zikamukura mu kaga ko kuba yabura ubuzima.

Indwara zitandura ni zimwe mu zihangayikishije iyi si ya none. Bityo rero abaganga bahitamo gukora inshinge bazajya batera abantu kugira ngo birinde indwara, byaba ibindi byorezo byose bifitanye isano no kuba ari indwara zitandura zitana ubuzima bw'abantu...

Abarwayi usanga bishimira serivisi bahabwa n'abaganga, kuko bituma indwara bari barwaye zibasha kuranduka n'imizi yazo, bityo bakagira ubuzima buzira umuze.

Mu bice byose by'igihugu usanga hari imbangukiragutabara itwara abarwayi barembye cyane, bigabanya imfu zabo kandi imiti bakayibonera ku gihe, ubwisungane mu kwivuza rero bwakemuye byinshi kuri ibyo bibazo bifashishije iyo mbangukiragutabara.

Ubwisungane mu kwivuza buba bukenewe cyane kuri buri muturage w'agace runaka, w'igihugu cyose runaka kubera yuko iyo ufite ubuzima bwiza bituma ibyo ukora ubikora neza.

Ibitanda bikorwa bigashyirwa kwa muganga mu byumba by'amavuriro yose, bifasha abaganga kwihutira kubajyana abarwayi babo aho ngaho kuba baruhuka mu gihe barimo bahabwa ubufasha mu kubavura.

Kumva inama za muganga niyo ntwaro irimbura indwara iyo ariyo yose kuko muganga ni umuntu w'inzobere uba warabitojwe warabyigiye ku rwego mpuzamahanga akakubwira ikibazo cyawe kurusha uko wowe wakimubwira kuko aba yagusuzumye yagufashe ibizamini.

Muri gahunda y'umuturage ku isonga ingabo z'igihugu zifatanya n'abaturage mu kwesa imihigo mu bikorwa bigiye bitandukanye, ari ugukora umuganda, ari ugushyigikira ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, kugira ngo babashe kubaka u Rwanda bifuza.

Kwa muganga mu mavuriro atandukanye, haba hari ibitanda bikoranye ubuhanga buhebuje kubera ko abarwayi hari igihe bakenera aho kuba bariruhukiye mu gihe bakirembye bitabwaho n'abaganga, ikindi kandi ababana n'ubumuga bakitabwaho, bagahabwa amagare yo kugenderamo.

Ibigo nderabuzima n'ibitaro bikomeye by'akarere n'igihugu, bikwiriye kuzajya byita ku barwayi mu buryo buba bwarateganijwe n'ababishinzwe kubera ko iyo bikozwe neza bituma nta muturage ukomeza kubura ubuzima bwe.

Ikoranabuhanga ryo kwa muganga rifasha abaganga gusuzuma, kwita ku barwayi, kumenya indwara abarwayi barwaye, kumenya imiti bahabwa, kumenya imiti yangiritse, kumenya aho isi igeze mu buvuzi bugezweho.

Abaganga bishimira iterambere rigezweho mu byumba byo kwa muganga, kuko riba rigizwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bibafasha mu bushakashatsi bw'ukuntu barandura indwara runaka n'uko bayibonera umuti mu gihe kihuse kandi kirambye.

Abarwayi bagomba kwita ku miti bahabwa na muganga bakareba niba iyo miti itararengeje igihe yagombaga gukoreshezwa kubera yuko iyikwi yarengeje igihe, iguteye indwara zirenze izo wari waje kwivuza kwa muganga.

Abahanga ndetse bakaba n'inzobere mu bijyanye no kuvura abantu n'amatungo, usanga bahabwa amasomo atandukanye yo kugira ngo bamenye ubuzima bw'abantu uko buhagaze. Impyiko ni rumwe mu rugingo rugize umubiri wa muntu rumufasha kuyungurura inkari n'ibindi.

Abaganga ni abantu basigaye bakurikirana ubuzima bw'ikiremwamuntu. Ni ngombwa yuko haremwa ibyumba byujuje ibikoresho by'ubushakashatsi, bigizwe n'ikoranabuhanga kugira ngo babashe gukurikirana ibibazo by'indwara zitandukanye.

Ibyumba nkoranyabushakashatsi byabugenewe byo kwa muganga, bituma abaganga basuzuma neza abarwayi babo ibibazo bafite, aho baba bambaye ibikoresho byabugenewe, bakaba babapima nk'indwara zitandukanye wavugamo nka malariya, n'izindi ndwara.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ndetse n'ubuvuzi bw'abaturage, cyahamagaje inama ngo kiganire, abaturage batuye igihugu, ibijyanye n'ubuzima bwabo, uko babusigasira ndetse bakanabona n'ubuvuzi mu gihe kirambye.

Ibigo Mpuzamahanga byita ku bana ni ibigo bifasha, bigateza imbere, yewe bikanarinda imibereho ubuzima bw'abana muri iyi si dutuye ya none, irangwa no kuba abana birengagizwa kandi aribo si y'ejo.

Abaganga b'inzobere b'abana bagira uruhare runini cyane mu kurinda no gusigasira ubuzima bw'abana kuko akenshi abana bagira indwara zitandukanye uba utamenya ngo iriya ndwara iteye ite.

Abaganga bashinzwe kwita ku bana, akenshi bagira uruhare runini cyane mu kurinda ubuzima bw'abana batoya, bakabasigasira kuko baba barabitojwe kugira ngo bakure ubuzima bwabo mu kaga ndetse no kubaha ibiri ngombwa.

Turandure malariya twese ntawusigaye inyuma kuko malariya irazahaza, malariya irica, malariya idindiza iterambere ry'abaturage b'Igihugu icyo ari cyo cyose, nimuze duhaguruke tuyirwanye turara mu nzitiramibu, tunatera imiti yabugenewe.

Amahugurwa ni ingenzi ku banyabuzima, bo muri buri mudugudu kugira ngo bigishwe neza ndetse banahugurwe uko, bazajya bita ku barwayi bagize ikibazo mbere y'uko bagera ku mavuriro yabo, ngo bitabweho.

Ubwisungane mu kwivuza butuma ababyeyi bavuza abana babo ku gihe ndetse bikagabanya impfu z'abana bahitanwaga n'ibyorezo bitandukanye muri iyi si ya none.

Biba byiza iyo uteranije abana bakiri bato, ku kabuga k'imyidagaduro, ubigisha wumva bisanzuye bityo, amasomo agatambuka, bagataha bazirikana ibyo bize.

Umubyeyi babyariye kwa muganga biramufasha cyane. Uruhinja rwe rukitabwaho n'abaganga na we akitabwaho, abaganga bamuha igikenewe cyose, ahabwa inama zose zijyanye n'ubuzima bwe n'umwana, abihawe mu buryo bwuzuye.

Abaganga babugenewe bize ibijyanye no kwita ku bana b'impinja bakivuka, batuma ipfu z'abana bavuka bagapfa zigabanuka muri iyi si ya none dutuye, ugereranyije nuko byahoze kera.

Amata ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko igihugu gifite ubukungu kizira umuze, iyo bayanywera mu nkongoro rero, bigaragaza neza yuko igihugu gitunze nta kibazo.

Ni byiza ko umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa undi wese ubonye ko agize ikibazo gitunguranye, ukabona ahinduye uko yari ameze bijyanye nuko atekereza, ugomba kumwegera ukamenya ikibazo yagize, uko wamugeza no kwa muganga ku babishinzwe.

Nyamara abantu bakwiriye kurema amatsinda runaka y'abakoranabushake b'abaganga kuko byaragaragaye cyane yuko hari abantu baba bafite ibibazo byo mu mutwe, iyo bahuye n'abandi bahita bagira ikibazo mu gihe ari benshi cyane batabasha guhumeka no kwisanzura.

Abishyize hamwe koko nta kibananira. Abaturage bicaye ku runana, bakemura ikibazo bahuye nacyo mu gace, mu mudugudu wabo kugira ngo kitazongera kubaho ukundi.

Inzego zishinzwe ubuzima zikangurira buri muturage wese kwita k'umibereho ndetse no kwita k'ubuzima bwo mu mutwe kubera ko byaragaragaye yuko abantu benshi baba bafite ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe ariko ntibabimenye.

Ibinini cyangwa se imiti itangirwa kwa muganga, igomba gusuzumwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge kugira ngo barebe ko itaba yararangije igihe yagombaga kuzakoreshwa ivura abarwayi bityo ikabatera ubundi burwayi butateganijwe.

Ni byiza ko inyubako zicuruza ibijyanye n'imiti y'abantu ndetse n'amatungo bivura indwara zabyo, bigomba kuba byujuje ubuziranenge ndetse n'ibindi byose bisabwa na leta.

Inzu zabugenewe mu gucuruza imiti ivura abantu inyamaswa ngufi, indende ndetse n'inyoni, zigira agaciro gakomeye cyane kuko ibibazo by'impfu zitandukanye ntabwo bikirangwa muri iyi si byatewe no kubura imiti.

Indwara zihitana imbaga nyamwinshi muri iyi si, zaje kugenda zikendera kubera ko abahanga mu by'ubuvuzi bw'abantu ndetse n'amatungo n'ibiguruka, bahanze uburyo bwo kuzana imiti hafi y'abantu kugira ngo birinde ibyo bibazo baterwaga no kuba babura imiti ibavura.

Muri iyi si ya none ubuvuzi bw'abantu n'amatungo, ndetse n'inyoni bwateye imbere. Nta bantu bakibura ubuzima bwabo cyangwa bw'abavandimwe babo, kuko hari abahanga bakaba n'inzobere mu bijyanye no kubitaho, bakazana imiti bakayibacuruzaho kugira ngo bakemure bya bibazo by'uburwayi bwabo.

Inzobere mu by'ubuvuzi bw'abana bakurikirana abana barwaye ku buryo umwana aza kwa muganga arembye bakamuvura, bakamuha imiti myiza , agataha nta kibazo afite kandi na nyina akamwitaho akurikije inama yabwiwe na muganga.

Abantu bagomba kwitonda, ku miti bahabwa yo kwa muganga ndetse no mu bucuruzi butandukanye, aho usanga hari abantu bacuruza imiti yarangije igihe yagombaga kuzahabwa abarwayi.

Inyubako zabugenewe z'ubucuruzi zijyanye no gucuruza imiti ivura inyamaswa, ivura abantu ndetse n'inyoni, iba ikenewe kugira ngo abantu n'ibyo bintu byose bizire umuze.

Muri iyi Isi ya none, usanga ubucuruzi bw'imiti ivura amatungo, imiti ivura abantu, imiti ivura inyoni ndetse n'inyamaswa byarigaruriye ubucuruzi buhambaye muri iyi Isi ya none.

Ibiyobyabwenge birica birangiza ndetse binarandura iterambere ry'igihugu runaka. Ni ngombwa ko urubyiruko rwihuriza hamwe rugakora ubukangurambaga mu kurandura ibiyobyabwenge byangiza ndetse bikanamunga iterambere ry'igihugu.

Twubahe kandi dukurikire amabwiriza n'amategeko biba byarashyizweho na Leta kuko Leta nitwe leta ni abaturage bitorera ibintu runaka byazabaranga mu muco wabo mu gihugu runaka kugira ngo babashe kubana neza n'abandi, bityo rero nimuhagurukire rimwe mwese mwumve ingamba za Leta.

Inzego z'Igihugu zishinzwe umutekano ndetse no kureberera amahoro mu baturage, zisanga kuba abaturage bafata iya mbere mu kurwanya ibiyobyabwenge ari byo byatuma igihugu gitera imbere mu buryo burambye.

Inama ni imwe mu biganiro, aho usanga umuyobozi runaka yatumiye abaturage ku kabuga runaka, akabaganiriza ku ngingo zitandukanye, cyane cyane mu myitwarire mu mibereho yabo yerekeranye n'ubuzima, imyororokere, uko bakwirinda indwara runaka.

Amavomo rusange, yaje kuba ikibazo cy'abaturage bajyaga kuvoma mu mihanda yakure iyo bigwa, ugasanga amazi bayabonye bigoranye ndetse n'igihe cyabacitse.

Hari imiti ya kera, abanyarwanda bakuraga mu byatsi bitandukanye, byabaga biri mu mashyamba mu bihuru n'ahandi mu mibande bityo bikabafasha kurwanya indwara zitandukanye, bitabasabye kujya kwa muganga n'ahandi.

Indyo nyarwanda usanga yarabaga igizwe n'ibintu bitandukanye, urugero twatanga umutsima, ibishyimbo bitetse neza bitekesheje amavuta y'inka akuze. Iyo ndyo rero wasangaga iyo umuntu wayifatagaho yaragiraga imbaraga.

Hari ibimera bitandukanye by'ibyatsi abantu ba kera batubanjirije, bakundaga guhinga bakabisarura bakabivangavanga bikaba byavamo imiti ivura abantu, inanavura amatungo.

Mu bice bitandukanye by'isi, ahenshi ushobora kugenda ukagerayo ukaburayo igiti bita umubiri. Umubirizi ni igiti cyo mu muco w'ahantu hatandukanye kifashishwa mu kuhira amatungo harimo nk'inka, amahene n'andi matungo ndetse banakifashisha mu guteka umusemburo wa kinyarwanda w'ikigage.

Kera umwaduko w'abazungu utaraza muri Afurika, wasangaga Abanyarwanda ndetse n'abandi baturage bo muri Afurika batazi amatungo maremare nk'inka za kizungu ko ari zo zitanga umusaruro ushimishijwe mu gihe zitaweho.

Tugomba gukurikira inama za muganga, aho bibaye ngombwa tukamubaza ikibazo dufite ku bijyanye n'imyororokere, ku bijyanye n'imirire, ku bijyanye n'ubuvuzi muri rusange.

Amavuriro n'ibigo nderabuzima bifasha abantu mu buryo butandukanye, hirindwa indwara bafata imiti igabanya ubukana bw'indwara runaka zikunze kwibasira abantu, twavuga nk'agakoko gatera sida, malariya imitezi n'izindi ndwara zibasira abantu, bigatuma bashyira ubuzima bwabo mu kaga.

Amavuriro mato mato, abaturage barayagana bagahabwa, serivise zijyanye n'ubuzima, bakagirwa inama ku mibereho yabo ku byo barya kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Amavuriro yegerezwa abaturage mu tugari, atuma babasha kubona serivise z'ubuvuzi bitabagoye. Mu gihe nyamara kera wasangaga abantu bapfa kubera ko amavuriro n'ibitaro biri kure yabo.

Abaganga bakora akazi kagoranye cyane ni yo mpamvu dukwiriye kuzajya twumva inama zabo mu gihe umuntu yumva hari ikibazo yaba afite mu mubiri we gito akihutira kwisuzumisha kuko hari igihe usanga ibyo wita ko bidakomeye bikubiviriyemo no gupfa.

Inzu z'amavuriro ziba zifite isuku kubera ko umurwayi aba akeneye kuza kwitabwaho hifashishijwe ibikoresho byabugenewe kandi zifite isuku kugira ngo atazandura izindi ndwara zaturutse ku bikoresho byakoranywe umwanda.

Aha ni ahantu habugenewe, icyumba kibikwamo imiti ivura abarwayi barwaye, yo kwa muganga.

Amavuriro yegerejwe abaturage. Aho usanga buri kagari nibura harimo, ivuriro rimwe, ndavuga mu byaro. Mugihe mu mugi hoho usanga, na buri mudugudu ugiye urimo amavuriro atandukanye.

Abaganga b'inzobere mu byo kubyaza no gukurikirana ababyeyi batwite, basanga ikoranabuhanga, ryarakemuye byinshi mu Rwanda ugereranije n'ibihe bya kera, aho wasangaga ababyeyi bahitanwa n'inda bakiri mu nzira bataragera no ku bitaro.

Muri iyi si ubucuruzi bukomeje gukataza mu gutuma abantu batera imbere, bacuruza imyenda, bashobora gucuruza ibijyanye n'imiti ivura abarwayi, ivura amatungo, bashobora gucuruza ibikoresho by'ubwubatsi n'ibindi bituma babona akayabo.